Mu bigo by'uburezi habonekamo imikino igiye itandukanye, habonekamo vore, basiketi, hakabonekamo n'ibibuga bya basiketi, abana bakoreramo bidagadura, bakina imikino itandukanye.

Mu mashuri twigiramo ibintu byinshi biba bitandukanye habamo amasomo rusange, habamo imyuga n'ubumenyingiro, habamo n'amashuri yiga ku bijyanye n'ubuzima n'ibidukikije, abanyeshuri mwarimu arababaza bakamanika akaboko mu kinyabupfura bagasubiza ibyo ababajije.

Mu mashuri twigamo ibintu byinshi biba bitandukanye. Hari amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro habamo kwiga gukora amazi, biga gufunga robine bagashiraho n'utuntu twinshi. Ni ingenzi cyane kuba abantu bazi gukora imyuga n'ubumenyingiro.

Mu bigo by'amashuri higirwamo byinshi biba bitandukanye, habamo icyumba cyabugenewe abantu hajyamo bagasoma, iyo ushaka gusoma winjira muri icyo cyumba ugafata igitabo ushaka, ugasoma ugasobanukirwa.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, bigisha amasomo aba atandukanye, bigisha mekanike, bakanika ibyuma biba bitandukanye biba byagize ikibazo, bakanika imodoka ziba zagize ikibazo, zikabasha kugenda.

Mu mashuri twigamo amasomo aba atandukanye twigamo isomo ry'ubugeni, ni isomo ritwigisha gushushanya. Dushushanya amashusho aba atandukanye dushushanya amashusho y'ibiti, amazu, indabo n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye kandi birebetse neza cyane rwose.

Amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro, agira akamaro kanini cyane, habamo abubaka amatafari, abubaka amakaro, bigatuma inzu isa neza cyane.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro higirwamo amasomo aba atandukanye. Higirwakwamo isomo ryo gupima ubutaka bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga, bakareba intera y'ubutaka, bakareba ingano y'ubutaka ukuntu ingana batiriwe batera metero.

Mu mashuri habamo amasomo aba atandukanye. Habamo ibijyanye n'ubugeni, higirwamo gushushanya amashusho aba atandukanye, afasha abanyeshuri gusobanukirwa neza iryo somo baba bari kwiga.